Umugabo wambaye ishati y’umweru akaba yambaye n'ipantaro y’umukara ifite indangururamajwi akaba yambaye n’isaha akaba ahagaze hagati y’imeza ebyiri zifite ibitambaro by’umweru n’imeza ziteretseho amacupa y’amazi.

Iyi shusho iragaragaza abantu benshi bahuriye ahantu hamwe. Bari ahantu mu itete risa umweru. Inyuma yaho hakaba hari ibiti. Bakaba bicaye ku ntebe. Hakaba harimo abagore n'abagabo bicaye mu busitani.

Ndi kubona abantu bari mu nama imbere yabo hari za mudasobwa, hari urugi, intebe, abadamu, n'abagabo bari no mucyumba, bicaye ku ntebe.

Abantu biganjemo abagabo n'abagore hakaba n'umugabo wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho ikayi n'ikaramu, iyo meza ikaba ifite ibara ry'umutuku ndetse n'idirishya rifunguye ririmo urumuri rwinjira.

Abantu bari mu nama bicaye mu nzu ahantu hamwe, higanjemo abagabo n'abagore ndetse n'abazungu, hakaba hari abagabo bari imbere bambaye amadarubindi ari bane, hakaba hari imeza iteretseho ubucupa bw'amazi.

Muri ino shusho, ndi kubona umugore munini uhagaze imbere y'abagabo bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza iteretseho icupa ryamazi ,n'umugabo uri imbere yabo.

Abantu biganjemo abagabo n'abagore, hakaba hari umugabo ufite uruhara wambaye amadarubindi uri hirya yabo ndetse imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi ndetse na za mudasobwa, hakaba hari n'ibirango biriho idarapo ry'u Rwanda.

Abantu harimo abagabo n'abasore, n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe hakaba hari umugozi w'amashanyarazi hasi, bakaba bafite za mudasobwa ndetse hakaba hari n'umuntu ufite ikaramu ufite n'ikayi.

Abagabo bambaye amakoti y'umukara harimo abambaye mo mu imbere amashati y'umweru bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo Hakaba Hateretse imeza iriho ikirahure ndetse n'icupa ry'ikirahure hamwe n'igiti gifite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore n'abakobwa; hakaba harimo abagabo bambaye amakoti afite ibara risa ubururu, ibirahure ndetse n'ibirango biri ku birahuri.

Abantu harimo abasore, abagabo n'abagore kaba hari intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'imeza ziteretseho mudasobwa n'uducupa t twaamazi kabariro n'igitambaro kiri ku meza gisa'umuhondo.

Ndi kubona umugabo ufite indangururamajwi, n'abandi bagabo benshi bari inyuma ye, imbere y'abo hari za mudasobwa, amacupa arimo inzoga n'ibyapa biriho idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye ipantaro y'umweru ufite terefone ngendanwa mu ntoki n'ibipapuro wifashe ku kananwa amarido, abagore n'abandi bagabo hirya bicaye ku ntebe.

Abagore batatu bafite amakaramu ndetse n'amakayi akaba ateretse ku meza ifite ibara ry'umutuku kuri yo meza kaba yateretseho amacupa y'amazi ndetse na terefone ngendanwa.

Abantu benshi harimo abakobwa n'abasore bafite imisatsi myinshi hakaba hari abicaye ku ntebe z'umweru bakaba banambaye umupira w'ubururu bwerurutse abandi bambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Abantu benshi higanjemo abagore, abagabo, abasore n'inkumi, hakaba hari umugabo imbere w'umusirikare wambaye isaha, ufite ikayi n'ikaramu ari kwandika, akaba yahateretse imbere yabo imeza iriho uducupa tw'amazi ndetse na terefone ngendanwa na mudasobwa.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe mu nzu hakaba harimo abagabo, abasore, abagore n'abakobwa bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari udutara duto duto twinshi ndetse.

Abantu bicaye ahantu hamwe, harimo abagabo n'abagore, bakaba bambaye amakoti abenshi ndetse hakaba hari ibirango bihagaze, hakaba hari n'umugore ufite imisatsi myinshi, bakaba bari kureba imbere.

Abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo, bakaba bicaye mu nzu ahantu hamwe imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi, akaba hateretse na mudasobwa bakaba bafite ikaramu ndetse n'amakayi.

Abantu benshi cyane harimo abicaye mu byatsi bafite ibara ry'icyatsi hakaba higanjemo abagore, abagabo, abasore, n'abasaza, hakaba hari hirya n'amahema afite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'abantu ndetse n'intebe zifite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo n'ibirango ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi higanjemo abasore n'inkumi ndetse n'abagore n'abagabo, hakaba hari abantu bicaye ku ntebe imbere, bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi; hakaba hari n'imeza iteretseho ubucupa bw'amazi, inyuma yabo.

Abantu benshi harimo abagore n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hakaba hateretse imeza ifite igitambaro cy'ubururu hakabateretseho terefone ngendanwa eshatu ndetse n'icupa ry'amazi.

Ndi kubona abaturage bafite amatungo magufi, ihene, abaturage benshi n'abayobozi babo, idarapo, inzu, ibiti n'insina, hirya yaho n'ibiti n'amatente.

Abantu benshi bambaye imipira y'ubururu bakaba bahuriye ahantu hamwe mu nzu, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho icupa ry'amazi hakaba hari umugore uri imbere yabo ufite indangururamajwi akaba yambaye n'amadarubindi.

Ikirango kinini gifite ibara ry'ubururu, harimo amagambo yanditseho Kigali yacu, hakaba hari n'abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, hari imeza iteretseho indangururamajwi, ndetse na za mudasobwa.

Abantu higanjemo abagore n'abagabo, hakaba hari umugore wambaye imyenda y'ubururu n'undi wambaye ikoti ry'umweru, bicaye ku ntebe z'ibiti, hirya yabo hakaba hateretse icupa ry'ikirahure hamwe n'ikirahure biri ku meza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu nzu, bakaba mbere yabo hari za mudasobwa ziteretse ku mameza afite ibara ry'umutuku, hakaba higanjemo abagore, abagabo ndetse n'abasore.

Inzu ifite imiryango itandukanye, aho hari umuryango ufite ikirango gisa ubururu n'umweru, harimo n'amagambo handitseho Irembo, iyo miryango ikaba ifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba n'undi muryango uri hirya hirya cyane ufite ibara ry'umutuku.

Ibirango bigaragaza ko hari ikigo gishinzwe itumanaho, ibirango bikaba bifite ibara ry'umweru n'umutuku, hakaba hari umugabo ufite telefoni ngendanwa y'ubururu, hakaba hari n'ikindi kirango kigaragaza ko ari ikigo kibika amafaranga kikanayabikuza, hakaba hari n'ipikipiki n'umuryango ufite ibara ry'umweru.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku n'umweru, hakaba hariho n'insinga zizamukaho, ukaba iri mu ruzitiro rukozwe n'ibyuma, hirya hakaba hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, ibiti, amazu ndetse n'ikirere.

Abantu bari mu nzu harimo: abagore, n'abagabo, n'abasore, n'abakobwa, hakaba hari ibitabo byinshi biri m'utubati, amarido ndetse na za mudasobwa ziteretse kumameza asa umutuku.

Ndi kubona umunara w'itumanaho, ibicu by'umweru bivanzemo n'umukara mo ukuntu n'igicu cy'ubururu. Uyu nguyu usa nk'umunara w'ikoranabuhanga utanga amarezo.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku n'umweru akaba uri mu ruzitiro rugizwe n'ibyuma bifite ibara ry'umweru hakaba hari ibyatsi hirya ndetse n'umusozi uteyehi ibiti.

Amafaranga afite ibara ry'umutuku harimo mo imbere ingagi telefone ngendanwa irimo imibare akanyenyeri hamwe n'urwego, hakaba hari n'amagambo hirya afite ibara ry'umuhondo n'andi afite ibara ry'umweru.

umugabo wambaye amadurubindi ufite uruhara akaba anambaye n'ikoti rifite ibara ry'ubururu aba yicaye ku ntebe mbere hakaba hari imeza iteretseho mudasobwa ndetse hejuru ye akaba ahi amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Ino shusho ndibonamo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hari ayanditseho Kigali afite umutwe usa umuhondo, hakaba n'andi magambo yandikishije ibara ry'umweru, hakaba hari n'urundi rupapuro hasi.

Ikirango gifite amabara atandukanye harimo umweru n'ubururu n'andi mabara, kikaba kiriho ibirango bigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu ndetse kikaba cyanditseho irembo, kikaba kiri ku rukuta rufite ibara ry'umuhondo, hakaba hari umukobwa uri kujya muri iyo nzu.

Amatara menshi ari hejuru ku gisenge gifite ibara ry'umweru, akaba agiye ariho insinga z'amashanyarazi kuri ayo matara zifite ibara ry'umukara, hasi hakaba hari ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'intebe zifite ibara ry'umukara, hakaba hari n'imiryango y'ibirahure ifite ibara ry'umweru.

Umunara muremure, ikonzwe n'ibyuma bifite amabara abiri ,harimo umweru n'umutuku, akaba ari insinga zizamuka umunara ,umunara ukaba ushinzwe kohereza no kwakira, itumanaho, riciye muri telefoni ngendanwa akabari n'ikirere ndetse n'ibicu.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ukaba uriho insinga z'umukara zizamuye hakaba hari n'uruzitiro rw'ibyuma ndetse hakaba hari n'insinga z'amashanyarazi ndetse n'inzu itaruzura hirya.

Amahuriro y'amashanyarazi akaba ari n'ibikoresho bimweye bifite ibara ry'umukara ibindi bifite ibara ry'umweru akaba ariho n'insinga z'amashanyarazi ndetse akaba ari n'ubusitani ku ruhande uriho ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi haba hari n'amazu hirya ku musozi.

Umunara w'amashanyarazi ufite ibyuma bigiye binyuranyuranyemo biwukoze, hamwe n'insinga z'amashanyarazi ziriho izitambika zijya hirya no hino, hakaba hari hirya umusozi uriho ibiti ndetse hasi y'uwo musozi akaba ari amazu.

Muri ino shusho ndi kubonamo ipoto ry'amashanyarazi, rigiye ririho insinga z'amashanyarazi nyinshi, hirya yaho hakaba hari umusozi, kuri uwo musozi hakaba hariho amazu y'abaturage.

IInsinga z'amashanyarazi zigenda zitwara umuriro hirya no hino, inyubako ifite ikirango kiriho amagambo y'umukara ndetse n'uruzitiro rufite ibyuma bifite ibara ritukura.

Inkingi z'amashanyarazi ebyiri zikaba zihuzwa n'icyuma kiri hagati yazo ndetse hakaba hari n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi, hirya ku musozi ndetse hakaba hari n'insinga ziva kuri izo nkingi zijya ku munara w'ibyuma w'amashanyarazi uri iburyo mu nguni.

Inkingi ndende y'amashanyarazi igiye iriho insinga z'amashanyarazi zifite ibara ry'umukara, ndetse hirya yaho hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba hari n'ikirere gifite ibara y'ubururu.

Insinga z'amashanyarazi zigenda zitwara umuriro hirya no hino muri karitsiye, ubusitani urugo rufite ibikuta bisa umweru igiti n'umusozi ndetse n'amazu.

Ibiti ndetse n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, inkingi ebyiri ziriho igikoresho bifashisha bahuriza hamwe umuriro w'agace runaka cyangwa se mu mudugudu, hakaba hariho n'insinga zijya muri icyo gikoresho.

Ikirango gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba harimo amagambo afite ibara ry'umukara, handitseho Gikondo hakaba hariho n'imibare, kikaba gisobanura ko ari ikigo gishinzwe umuriro cyangwa se amashanyarazi mu Rwanda.

Umunara muremure ariko w'insinga z'amashanyarazi, ukaba ukozwe mu byuma, hakaba hariho n'insinga z'umukara ndetse hakaba hari insina n'amakoma afite ibara ry'icyatsi n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi hamwe n'ibiti, hamwe n'amazu afite amabati afite ibara ry'umutuku.

Ndi kubona abantu, umuhanda, uruzitiro, amazu, n'isoko, amapoto, insinga z'amashanyarazi, n'amatara.

igiti cyumye, cyahungungutseho amababi, ubusitani buririmo ikirango, akayira k'abanyamaguru, amabati afite ibara ry'umutuku, n'andi afite ibara ry'umweru n'umusozi,

Amatara yo kumuhanda hamwe n'insinga z'amashanyarazi zigenda zinyuranyuranamo ibiti, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi hamwe n'umusozi hirya yabo.

Ndi kubona ipoto y'amashanyarazi hariho insinga z'amashanyarazi n'akabuwate k'amashanyarazi, ibiti n'amashami hamwe n'imigozi y'amashanyarazi.

Insinga z'amashanyarazi zigenda zijya ahantu hatandukanye n'ibirango. Ndetse n'umuntu uri ku igare, inzu, ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi. Urugo ruri imbere y'inzu y'umuntu.

Ndi kubona ipoto y'amashanyarazi n'insinga z'amashanyarazi rifite itara, n'inzu igeretse kabiri, ifite indabyo n'imodoka ebyiri, n'iduka ricuruza.

Igiti kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi zifite ibara ry'umukara zikaba zinyurayuranamo, zikaba zigenda mu bice bitandukanye, hakaba hari inzu n'igiti gifite ibishami imodoka ifunguye.

Igikoresho wifashisha umanika hejuru yin'inzu kugirango kizane amarezo mu nzu, amabati y'inzu afite ibara ry'umutuku ndetse n'itara ryo ku muryango munini winjira, amatafari ari ku rugo ndetse n'urugi rw'ibara ry'umukara.

Ibinyabiziga biparitse ahantu hamwe byitwa imbangukiragutabara bikunda gutwara abarwayi bahembye cyane bikaba bifite ibara ry'umweru, umutuku, ndetse n'ikirango kiriho cy'ubururu akaba biparitse ahantu mu mabuye matoya.

Inyubako ifite inkingi zifite ibara ry'umweru hasi, hasi hahera akaba hari akabara k'umukara ndetse n'ikirango gifite ibara ry'ubururu kiri mu busitani, amadirishya ndetse n'indabyo hirya.

Ubusitani buteyemo ibiti birebire, bikaba hariho n'amatafari ahiye n'ibyatsi bisa icyatsi kibisi, ndetse n'ibinyabiziga hirya bitatu bifite ibara ry'umweru hakaba hari n'amazu ndetse n'umusozi hirya.

Ikirango kinini kiriho amabara y'umweru, ubururu n'umutuku, hakaba harimo igishushanyo cy'umutima, ndetse hakaba hari umuryango munini, abadamu bari kwinjiramo n'abandi bantu hakaba hari umugabo wambutse umuhanda wambaye ishati y'umweru, n'ipikipiki hamwe n'ibiti.

Inyubako ndende ifite urusinga rugiye rutambitse kugeza hirya, ubusitani burimo ibyatsi bikeya cyane, hakaba n'ikirango hirya gifite ibara ry'ubururu.

Ikirangantego gifite hasi amabara ari mu idarapo ry'u Rwanda hakaba haditseho inkiko gacaca kikaba kirimo abantu mo mu imbere n'abandi babiri bahagaze hakaba hari n'abandi babayoboye hakaba hari igiti cyanditseho ubutabera bwunga.

Abagabo batatu bahagaze babiri bambaye amakanzu asa umukara w'imbere harimo umupira cyangwa se umwenda w'umweru akaba n'undi wambaye ikoti n'agapfukamunwa k'umweru barimo hagati intebe ziriho imbaho ndetse n'abandi bari inyuma amarido ndetse n'urugi rufite ibara ry'umweru.

Ndi kubona umudamu cyangwa se umugore cyangwa se umubyeyi, wambaye ishati y'umutuku mo imbere yambaye agasengeri k'umweru wambaye marinete w'imibiri yombi.

Umugore wambaye ikanzu y'abacamanza ifite ibara y'umutuku, umukara, akaba yambayemo n'agakanzu gafite ibara ry'umweru, akaba afite n'imisatsi iguye inyuma.

Kuri ino foto cyangwa se ishusho ndikubonamo umugore cyangwa se umubyeyi wambaye ikoti ry'umutuku, akaba afite imisatsi myinshi.

Ikirango cyanditseho igororero rya Muhanga, akaba ari amagambo afite ibara ry'umukara, hariho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari amabuye afite ibara ry'umweru, ariho n'umukara, kaba hari urugo runini rwinjira muri icyo kigo, akaba arimo n'ibiti.

Abantu harimo ingororwa cyangwa se imfungwa hakaba hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ndetse n'ikanzu y'umukara akaba ari kumwe n'imfungwa yambaye agapfukamunwa k'umweru.

Igikoresho bifashisha bazimya umuriro cyangwa se hari ahantu habaye inkongi kizimya umuriro kikaba kiri ku rukuta rusa umweru hasi yaho hakaba hari igikoresho bifashisha bajugunya imyanda.

Abantu babiri b'abagabo umwe akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'ingofero undi akaba yambaye imyenda y'umukara akaba ashinzwe umutekano mu Rwanda hakaba hari n'ubusitani burimo igiti kirekire ndetse n'urugo n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Kubona imodoka izimya umuriro, abantu bazimya umuriro, nkabona abantu benshi cyane mumuhanda n'ibiti n'amapoto n'amazu.

Ibikoresho bibiri bifite ibara ry'umutuku ndetse hakaba n'ibirango bifite ibara ry'umweru n'amagambo y'umutuku bikaba bifite umupira usohora amapuderi avamo mwimbere bikaba biri no ku rukuta rufite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bambaye ibikoti bifite ibara ry'umukara ndetse harimo n'uturongo tw'icyatsi kibisi bakaba bafite umupira bifashisha basohora amazi igihe habaye inkongi y'umuriro bakaba bambaye n'ibikoresho ku mutwe barindira umutwe igihe habaye impanuka.

Abantu benshi harimo abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bakaba bambaye agapfukamunwa ndetse hakaba hari umuntu uri imbere yabo uri gukoresha igikoresho bifashisha bazimya umuriro, ibicu, ikirere, ndetse.

Umugabo ushinzwe umutekano uri imbere y'amapikipiki afite ibara ry'umutuku ahetse abantu, umuhanda, ubusitani bwo mu muhanda, imodoka, amazu.

Inkingi ifite ibara ry'umukara, ndetse hakaba hari hirya utubaho twegeranye duteyemo ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi; hakaba hari n'igikoresho bifashisha bazimya umuriro igihe habaye inkongi y'umuriro gifite ibara ry'umutuku, hakaba hari n'ikindi cyo hasi gifite ibara ry'umweru.

Igikoresho bifashisha bazimya umuriro cyangwa se batwara ahantu habaye inkongi, kikaba gifite umupira usohora pudeli y'umweru, izimya umupira ukaba usa umukara ndetse iki gikoresho kikaba gifite ibara ry'umutuku.

Ndi kubona nyakubahwa umuyobozi uyoboye u Rwanda PoloKagame n'umugore we Jenete Kagame ariwe mugore wa mbere mu gihugu n'abayobozi batandukanye n'intebe n'imeza.

Umugabo wicaye ku ntebe isa umukara, akaba yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye na karuvati y'umukara, n'ishati y'umweru imbere ye hakaba hari indangururamajwi, mudasobwa, haaba hari umugabo uri kwandika wambaye ikoti ry'ubururu bwerurutse, n'ishati y'umweru na karuvati y'ubururu bwerurutse, imbere hakaba hatetse icupa ry'amazi.

Ndi kubona umuntu ufite indangururamajwi w'umugabo wambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari abagabo babiri, mugabo ni igikara.

Abantu batatu hakaba harimo umusore umwe cyangwa se umugabo umwe, hirya hakaba ari abakobwa babiri cyangwa se abagore babiri bari gutoragura ibipapuro bifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvate y'umutuku akaba yambaye n'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto akaba afite indangururamajwi akaba yazamuye akaboko ari kwereka abaturage ndetse hakaba n'abantu benshi cyane abana, abasore, inkumi ,n'abagore, n'abagabo.

Abantu benshi, harimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe, zifite imifariso y'umukara, imbere yabo hakaba hari imeza, iteretseho ubucupa bw'amazi, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye mu nzu, bakaba imbere yabo hateretse ubucupa bw'amazi ndetse bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari udutara duto duto.

Abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bakaba barimo abagabo bambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'amashati. Hakaba hari amadarapo abiri, rimwe akaba ari idarapo ry'u Rwanda, ibiti, ubusitani inyuma yaho, ndetse n'amabuye.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu kibuga, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umutuku, umweru ndetse n'ubururu, bakaba bambaye n'utugofero dufite ibara ry'umweru, bakaba harimo abakobwa, abasore ndetse n'abagore n'abagabo.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'umugore, bakaba hari umugabo wambaye umupira w'umukara akaba afite igikoresho bifashisha bafata amafoto, umugore akaba ari kwandika mu gitabo afite ikaramu, akaba yambaye n'ikoti risa icyatsi hamwe n'ijipo isa umutuku.

Abantu babiri harimo umugore n'umugabo, bakaba bazamuye akaboko bari kurahira ku idarapo ry'u Rwanda ndetse hakaba hari n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ikanzu y'umweru n'akagofero k'umukara.

Igitambaro gifite amabara y'idarapo ry'u Rwanda ndetse n'abantu benshi harimo abasore n'abakobwa n'abagore, hakaba hari umuntu mu muryango w'umugore wambaye amadarubindi, imbere yabo hakaba hari ibinyabiziga harimo imodoka ndetse n'amazu n'ibiti.

Umugabo imbere ye hakaba hari indangururamajwi z'ibigo by'itangazamakuru bitandukanye aho hari ikigo cy'urwanda n'itangazamajwi bafite mikoro y'ubururu ndetse umugabo akaba yambaye ingofero y'umweru n'ishati y'umweru akaba yambaye n'amadarubindi.

Ndikubona umukobwa cyangwa se umugore ufite indangururamajwi wambaye isaha, wambaye n'amaherena y'umweru, wabumbye intoki umeze nkaho arikuvuga ahantu.

Abantu harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, akaba yambaye n'amadarubindi. Ndetse, n'umugore uri ku ruhande rwe, akaba yambaye amadarubindi. Bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, aho hari mudasobwa, ubucupa bw'amazi, ndetse n'igikoresho kirangurura amajwi.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara akaba yambaye n'ikanzu hamwe n'amaherena ariho amasaharo y'umweru, imbere ye hakaba ari indangururamajwi z'ibigo bitanga amakuru hirya hakaba hari igitambaro kiriho ikirangantego.

Umukambwe ufite urupapuro akaba ari kurushyira mu gakoresho bifashisha bari gutora abayobozi kakaba gafite umufuniko w'umukara ndetse kaba gasa n'umweru kakaba gateretse ku ntebe y'igiti yanditseho mirongo itatu na gatatu umusaza akaba yambaye umupira ufite amabara y'ubururu n'umweru akaba yicaye mu kagare.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu nzu. Bakaba imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'indangururamajwi na za mudasobwa, bababa bicaye ku ntebe zifite imifariso y'umukara.

Abantu harimo abagabo n'umugore umwe wambaye amadarubindi afite ibirahure by'umukara, hakaba hari n'abandi bagabo bamwegereye babiri bambaye amadarubindi afite ibirahure by'umukara n'amakoti y'ubururu hamwe n'amashati y'umweru, hirya hakaba hari amahema y'umweru, ibiti ndetse n'amazu.

Ipikipiki ihetse abantu ikaba ifite ibara ry'umutuku imbere, ibiti bifite ibara ry'icyatsi, urugo rufite ibikuta bisa umweru ndetse n'inyubako ndende, ndetse n'umuhanda.

Imodoka nini itwara ibicuruzwa ibivana mu gihugu' ibijyana hanze y'igihugu, ikaba iri mu muhanda ikaba ifite ibara ry'umweru akaba arimo umuyobozi wayo cyangwa se umuntu uyitwara, ibiti ndetse n'abanyamaguru.

Imodoka nini itwara imicanga ifite ibara ry'umutuku ndetse n'amapikipiki ahetse abagenzi, harimo ipikipiki ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'igare riri kugendera mu kayira k'abanyamaguru ibiti ndetse n'uruzitiro hirya yaho.

Amapikipiki menshi aparitse mu kayira k'abanyamaguru, akaba bose bambaye ibikoresho bibarinda kuba iyokoze impanuka bakangirika umutwe, bifite ibara ry'umutuku abandi ry'ubururu, ibiti, nyubako ndende, imodoka ndetse n'abagenzi.

Muri ino shusho ndabonamo ibinyabiziga byinshi by'ibiziga bibiri n'abayobozi babyo cyangwa se abashoferi babyo cyangwa se ababitwara n'ibiti n'umuhanda n'imodoka n'inyubako hamwe n'abanyamaguru.

Ipikipiki ihetse umuntu iri no mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga biri inyuma y'igipikipiki abantu ndetse n'ibirango ubusitani buririmo ibyatsi n'ibiti.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, ikaba hariho shitingi izirikishije imigozi myinshi, hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'umunyamaguru, ibiti bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'uruzitiro hirya.

Igare ndetse n'umuntu uritwaye akaba ahetseho amagi ndetse hakaba hari n'umugabo uri inyuma ye ufite uruhara, ipikipiki ihetse umuntu ndetse hakaba hari n'imodoka nini ifite ikintu cy'inyuma gisa ubururu hamwe n'umuhanda, ibiti n'uruzitiro.

Umuhanda urimo kinyabiziga cyacanye amatara, kikaba gifite ibara ry'umweru, hakaba hari umugabo imbere yacyo, amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti hamwe n'abagenzi.

Igare rifite intebe iriho umufuka ufite ibara ry'umweru, hakaba hariho n'imikoba cyangwa se imigozi ku ntebe hariya abagenzi bicara, imodoka ifite ibirango by'umutuku n'umweru ndetse ikaba isa n'umweru.

Ndi kubona umuhanda w'umukara cyangwa se umuhanda wa kaburimbo, hirya yaho hariyo umuhanda w'igitaka, ibiti, inyubako n'ibyapa n'amapoto hamwe n'ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kiri mu muhanda, hakaba hari n'ikindi kinyabiziga kiga giparitse gifite ibara ry'umweru. Hakaba hari ikirango ki kiriho amagambo y'umutuku ndetse n'ubururu kigaragaza ko ari ibitaro hakaba hari n'amabati y'ubururu.

Ibicucu by,abantu, umuhanda, amapikipiki abiri imwe imanuka n'indi izamuka afite ibara ry'umutuku hakaba hariho abantu bambaye igikoresho bifashisha bambara mu mutwe kugira ngo igihe habaye impanuka kibarindira umutwe ibirango ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, aho harimo ipikipiki ihetse abantu ndetse n'ikindi kinyabiziga gifite ibiziga bitatu, hakaba hari inyubako iriho ibirango bitandukanye ndetse n'insinga z'amashanyarazi, hakaba hari hasi y'inyubako imodoka ihaparitse.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru n'amapine y'umukara kikaba kiri mu muhanda, ibiti bifite ibara ry'icyatsi, uruzitiro ndetse n'umunyamaguru wambaye umupira w'umutuku.

Imodoka ndende itwara abagenzi, ibakura hirya no hino, ikaba ifite ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'udutara duto duto, ikaba ifite n'ibirahure, hirya hakaba hari umusozi uteyeho ibiti, bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda ndetse n'umugore ucuruza ibisheke biri mu ndobo y'umweru, hakaba hari uruzitiro ruriho ibiti bifite ibibabi ry'icyatsi hakaba hari n'imodoka hirya ziparitse hamwe n'ikinyabiziga, k'ibiziga bitatu kiriho umuntu wambaye umwenda w'umweru.

Ndi kubona ino foto, ndi kubonamo umuhanda, imodoka y'igice n'imodoka nini cyane itwaye abagenzi benshi cyane. Ibiti n'ipoto n'ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri.

Ndi kubona imodoka ebyiri, nkabona ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri gifite umuyobozi utwayeho n'umugenzi, ibiti, n'uruzitiro, n'umuhanda n'ikiraro.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, ikaba itwaye umuntu wambaye umupira w'umuhondo, ikaba harimo na shitingi, hakaba hari umunyamaguru w'umugore ufite imisatsi myinshi uhetse agakapu, ipikipiki itwaye umuntu, ibiti ndetse n'uruzitiro.

Abantu benshi harimo umugore wambaye ibitenge, hakaba hari n'umugabo ufite igare akaba yambaye ishati n'ipantaro ndetse n'inkweto zifunguye, hakaba hari ibyatsi ndetse bifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'ibiti ndetse n'ipikipiki ihetse umuntu hamwe n'ikinyabiziga kiri mu muhanda.

Ibinyabiziga biri mu muhanda harimo ipikipiki ifite imbere hasa umutuku, ihetse abantu ndetse hakaba hari n'imodoka ifite ibara risa ubururu, harimo umuntu wambaye umupira w'umweru, ibiti ndetse n'uruzitiro.

Amatara yo ku muhanda ndetse n'imodoka nini itwara abagenzi ndetse n'abantu bari ahantu hamwe benshi, imifuka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umusozi.

Ibiti ndetse n'ibirango biri hirya y'imbuga akayira gaca mu kibuga ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi hakaba hari n'ibirango bifite ibara ry'umweru hamwe n'ubururu

Muri ino foto ndi kubonamo icyapa cyo mu muhanda, nkabonamo umuhanda, nkabonamo ibyatsi n'indabyo, nkabonamo amabuye ari ku ruhande, nkabonamo inzu, ibiti hirya.

Ikirango gifite ubuso bufite ibara ry'ubururu ndetse na pa mo hagati ifite ibara ry'umweru, hamwe n'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, mu busitani, amazu, ibiti ndetse n'abagenzi.

Ikirango gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'uturongo tw'umukara, akaba arimo ikimenyetso mu hagati rifite ibara ry'umukara.

Ibirango bibiri byegeranye, bikaba bifite amabara abiri harimo umweru n'umukara, hakaba ari inyuguti ka na na, hamwe n'imibare gatatu, mirongo itatu, ikaba hari n'ibiti ndetse n'amazu.

Ikirango kigizwe n'amabara atatu, umweru, umukara ndetse n'umutuku, hakaba harimo abantu babiri bafite amakayi, harimo umukobwa ndetse n'umuhungu.

Ikirango gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku mu mwimbere kikaba gihagarika imodoka cyangwa se abagenzi bari mu muhanda hakaba hari ibyatsi hirya bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Ikirango gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, mo imbere hakaba harimo amagambo afite ibara ry'umweru, kikaba gihagarika abantu mu muhanda.

Ibirango bibiri hakaba hari ikirango kiri hejuru gifite amabara atatu ariyo umweru, umutuku ndetse n'umukara. Mo mu imbere hakaba harimo umubare mirongo itandatu, hasi hakaba hari umuhanda urimo amapikipiki ndetse akaba ari n'ibiti n'ibindi birango hirya.

Ikirango gifite ubuso busa umuhondo, harimo n'umusozi w'ikinyabiziga, kirimo umuyobozi wacyo, kikaba kigaragaza.

Ikirango gifite ubuso mo imbere busa umweru hariho ikimenyetso cy'umukara, ndetse hakaba hari n'uruziga rufite ibara ritukura.

Ikirango gifite ibara ry'umutuku ku ruhande mo imbere hakaba harimo umweru, ndetse hakaba harimo n'umuntu ufite igikoresho bifashisha bayobora ubutaka, cyangwa se umucanga umuntu akabasa umukara.

Ikirango gifite ibara ry'umutuku aho hari n'ibimenyetso bibiri bifite ibara ry'umukara kikaba kinafite ubuso busa umweru.

Ikirango gifite amabara atatu atandukanye, aho harimo umweru, ubururu bwerurutse ndetse n'umukara, akaba arimo mo imbere umuntu ushushanyije uri mu turongo tw'umukara n'umweru,,,

Ikirango gifite amabara atatu harimo umutuku, umweru, ndetse n'umukara mu imbere akaba ari ubusitani, hirya burimo ibyatsi ifite ibara ry'icyatsi akayira k'abanyamaguru, ipikipiki, imodoka ifite ibara ry'umukara n'indi iri imbere rinini ifite ibara ry'umweru amatara ku muhanda ndetse n'ibiti.

Ndi kubona inyubako igeretse gatatu, hariho ibyapa, ibyapa bigaragaza aho bakoresha imisatsi, aho bajya kwivuriza.

Giporoso, abantu benshi higanjemo abasore, abagabo, hamwe n'amapikipiki , ibinyabiziga harimo imodoka, amatara yo ku muhanda ndetse n'ibyatsi.

Amabati yo ku nzu, ibiti by'imikindo bifite ibara ry'icyatsi, n'ibindi biti hirya, amazu afite ibisenge, cyangwa se amabati y'umutuku, ndetse n'indi nzu nini hirya hamwe n'ibicu.

Ipikipiki iriho umuntu uyitwara hakaba ari n'ibinyabiziga bitatu harimo: ibinyabiziga bifite ibara ry'umweru n'ibirahure byijimye, hakaba hari inzu ndende ifite ibirango.

Inyubako y'amabara atandukanye ifite ikirango cyerekana ibikorerwamo, aho harimo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'umweru n'ubururu bubisi.

Remera hakaba harimo amazu ndetse n'ibiti, hakaba harimo amazu afite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo n'ibirango bigaragaza ko ari ikinyobwa cy'inzoga.

Inyubako ndende ifite igisenge gifite ibara ry'umweru, hakaba hariho n'ibirahuri byijimye, mo imbere muri ibyo birahure hakaba harimo amarido afite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'urugo rufite uruzitiro rw'ibyuma by'umukara.

Ikirango kiriho pa haciyemo akarongo ifite ibara ry'umukara ndetse ikaba iki kirango kiri mu ruziga rw'umutuku, inyubako iriho ikirango kigaragaza ko hari ikigo gishinzwe kubika amafaranga ipikipiki ibyatsi.

Ikigega gifite ibara ry'umukara, imbere yaho hakaba hari igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, ibiti hirya, amazu afite amabati ariho amabara atandukanye.

Inyubako ndende ifite ibikuta bifite ibara ry'mweru naamadirishya afite ibirahure byumukara, imodoka, ipikipiki ibiti bifite ibara ry'icyatsi hamwe n'indabyo imbere y'inyubako.

Umuhanda ufite ibipande bibiri, hakaba hari inyubako iparitseho imodoka cyangwa se ibinyabiziga birenze bibiri, hakaba hariho n'ipikipiki iriho umuntu uyitwara, inyubako ikaba ifite ibirango bigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako iriho ibirahure bifite ibara ry'umukara cyangwa se byijimye hariho n'ibikuta by'umweru, imbere yayo hakaba hari imodoka cyangwa se ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku n'ibirahuri by'umukara, hakaba hari n'insinga z'amashanyarazi, ndetse n'ikirango gifite ibara ry'umutuku.

umuhanda urimo ikinyabiziga kiri kumanuka n'ibindi binyabiziga biri hirya biparitse umutaka ufite ibara ry'umuhondo ibirango bigaragaza ko ari ikigo gishinzwe itumanaho, insinga z'amashanyarazi ibiti ndetse n'ikirango kiriho imodoka mo imbere inyujijemo akarongo gafite ibara ry'umutuku.

Ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi, hakaba hari n'ibindi byatsi, bikaba byarakoze igihuru kirekire hirya hakaba ari akayira k'abanyamaguru.

Ikirango kigaragaza ko ari ikigo gishinzwe kubika amafaranga no kuyabikura, kikaba kirimo amagambo y'ubururu ndetse kikaba gifite ubuso bufite ibara ry'umweru, ndetse hasi hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru uri mu muryango hagati, hakaba hirya ye hari n'ikirugu.

Inyubako ndende hirya y'aho cyangwa se mu nguni ihera hakaba hari igiti ndetse, insinga z'amashanyarazi, ibirahure byinshi, bifite ibara ry'ubururu bwerutse hakaba hari n'amadirishya afunguye.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'ikirahure gifite ibara ryijimye, ibiti birebire byo ku muhanda bifite ibara ry'icyatsi, amazu hirya ndetse n'ipikipiki hasi ndetse n'indi modoka hirya mu muhanda.

Akayira k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani burimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hamwe n'ibiti biri ku murongo mu muhanda ipikipiki, ndetse n'amazu ku musozi hirya hamwe n'ibiti biri ku musozi hirya.

Ndi kubona umuhanda w'umukara, amapoto, imisozi, hariho ibyapa, ibiti, ubusitani, amatara, hamwe n'insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto.

Akayira k'abanyamaguru harimo umunyamaguru uri kugenda, hakaba hari hirya yaho ubusitani ndetse bukaba burimo ibiti n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hirya hakaba ari ikirango kirekire gifite...

Imihanda ibiri hakaba harimo hagati ubusitani burimo ibyatsi, bukaba bunateyem igiti, hirya hakaba ari ibiti binini, ndetse muri uwo muhanda hakaba hagiye harimo uturongo, hakaba hari n'ikirango giteye mu busitani bw'uwo muhanda.

Imodoka ndende ifite ibara ry'umweru n'ubururu, ubusitani, ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda, ipikipiki ikiraro ndetse n'ikirango kiriho ibishushanyo.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku, kikaba kirimo umuntu, kikaba gifite n'ibirahure byijimye, hakaba hari n'ibiti byinshi biri ku muhanda bifite ibara ry'icyatsi, amatara ku muhanda, umuhanda ndetse n'ubusitani bwo ku muhanda burimo ibyatsi.

Umuhanda mugari ugiye uririmo uturongo tunyuranyuranyemo, ibiti bifite ibara ry'icyatsi, amapikipiki, imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'igare ririho umuntu ufite umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi harimo imodoka n'amapikipiki ahetse abagenzi, hakaba hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'ikirango gifite inguni eshatu kiri inyuma y'imodoka ndende.

Ndi kubona ihuriro ry'imihanda, ibinyabiziga by'ibiziga bibiri, ibiti, imisozi, kuri iyo misozi hariho amazu, ibyapa bimurikira, imodoka n'ibyapa bisanzwe.

Umuhanda urimo ubusitani ndetse ubusitani bukaba burimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba hari ibiti, umusozi ugiye uriho amazu, hakaba hariho inzu ifite ibara ry'umweru hirya ndetse n'amatara yo kumuhanda hamwe n'amapikipiki ahetse abantu.